Itangazo rigenewe abacuruzi bashobora kuba bafite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwabo, aho hariho nimero za watsapu ndetse na nimero zo guhamagaraho bashobora guhamagara bakagirwa inama z'uko batahura n'ibihombo mu byo bakora.

Abantu batatu bari mu cyumba mu imbere, umwe asa nk'uri gufunga umuryango, abandi babiri umwe arahagaze undi aricaye, imbere yabo ku meza hari amafunguro ku isahani nini byo kurya ndetse n'igikombe kirimo ibyo kunywa.

Umuturage ugurisha ibyangombwa umuntu yifashisha mu gihe ashaka kurya ariko adatetse, harimo amata, amandazi, ibyangombwa muri rusange umuntu ashobora kwifashisha ashaka kurya adatetse, mu gihe aba ari kwihuta asubiye mu kazi cyangwa afite ibindi bintu agiyemo.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'umuyoboro wa eyateli, aho iri kubwira abakiriya bayo cyangwa se ibamenyesha kuba bakoresha ubwo buryo bwa ma eyateli mu gihe bagura amayinite cyangwa bakugura interinete. Cyangwa mu gihe bari kugura umuriro cyangwa gihe bari kwishyura.

Abantu bahuriye hamwe bari kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga aho wishyura amafaranga ukoresheje telefone yawe bitabaye ngombwa kuyazana mu ntoki kwishyura ukoresheje binyuze muri telefone cyangwa izindi nzira ariko atari amafaranga uzanye mu ntoki ari amafaranga wishyuye ukoresheje ikoranabuhanga.

Abantu babiri bari kuganira, ndetse bari kungurana ibitekerezo; imbere yabo hari ibikoresho bashobora kuba bari kwifashisha mu kugira ngo babone amakuru y'ikintu bari kuganiraho, harimo: amakayi, amatelefone, amamashini, bari gukoresha.

Inoti y'amashilingi magana atanu akorerwa muri Tanzania, igaragaza amafaranga ya Tanzania ukuntu aba ameze, agaragaza banki nkuru Tanzania, igaragaza amafaranga igihugu cya Tanzania gikoresha ukuntu aba ameze, akaba ari amafaranga magana atanu.

Serivisi zijyanye no kuvunja ndetse no ku kuvunjisha amafaranga, aho umuntu muri rusange azana amafaranga afite bakamuvunjara bakamuha ayo ashaka. Umuntu ashobora nko kuzana amayero ashaka amanyarwanda bakamuvungirara mu mayero bakamuha amanyarwanda. Cyangwa akazana amanyarwanda ashaka amadolari bakamuvunjira bakamuha amadolari yashakaga akabaha amanyarwanda.

Igice cy'ahantu bakoresha hifashishijwe ivunjisha ry'amafaranga, aho umuntu ashobora kuzana amafaranga yiwe, urugero azanye nk'amanyarwanda ashaka amadolari, aha ni ahantu ashobora kwifashisha, ajyana amanyarwanda bakamuha amadolari yashakaga.

Amazu cyangwa se ibikorwaremezo bihabwa umuturage uje agana aho hantu, harimo nko kwakirwa ashaka kurya cyangwa kwakirwa ashaka kuryama, aho umuntu azana amafaranga yiwe agahabwa serivisi zijyanye n'icyo ashaka aho ngaho.

Abaturage bahuriye hamwe ku mukozi w'umuyoboro wa MTN Rwanda, baje gushaka serivisi zo kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga ndetse n'izindi serivisi zijyanye no kugura amayinite, bifashishije ikoranabuhanga rya MTN mobayiro Rwanda.

Igice kimwe kiri mu nzu iri kugurishwa amafaranga agera kuri miliyoni ijana cumi n'eshanu z'amanyarwanda, i Kanombe muri Kigali city, aho umuntu uyishaka aza yerekwa inzu, agatanga amafaranga bakamuha inzu ashaka.

Igice kimwe cy'igikoni kiri mu nzu iri kugurishwa amafaranga agera kuri miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amannyarwanda, inzu iherereye Gisozi hafi ya Kagugu muri Kigali siti, aho umuntu azana amafaranga yiwe agahabwa iyo nzu.

Inzu nziza y'icyitegererezo kandi igezweho ifite igipangu cy'amatafari, inzu iri gukodeshwa ifite ibyumba bibiri ikagira ubwiherero bubiri. Aho umuntu azana amafaranga akumvikana na nyirayo mu gihe runaka amafaranga azajya amwishyura iyo nzu akayibamo.

Inzu cyangwa ahantu habitswe cyangwa se hakusanyirijwe ibikoresho byifashishwa mu nzu, ibikoresho by'ubwoko butandukanye, ibikoresho bifite amabara atandukanye bishobora gushyirwa mu nzu y'umuntu bitewe n'umumaro wabyo uko ugiye utandukanye. Bimwe muri ibyo bikoresho hakaba harimo ibyo umuntu ashobora gushyira ku madirishya kugira ngo inzu hatazamo urumuri rwinshi.

Abantu bahuriye mu isoko runaka bamwe batanga serivisi, abandi bashaka serivisi. Aho umukiriya aza ashaka umucuruzi kugira ngo amuhe serivisi ashaka cyangwa amuhe igicuruzwa ashaka akishyura amafaranga, umucuruzi nawe we akamuha igicuruzwa yifuza.